Umuganga uri gukoresha mudasobwa akaba arimo arakora ubushakashatsi ku bijyanye n'uko yakora imiti, iyo miti ikazajya yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Umugabo uri mu murima we yahinzemo ibitunguru akaba ahetse ipombo arimo ararinda ibitunguru bye kuba byakatakwa n'indwara cyangwa ibyonnyi.

Umuhinzi wabigize umwuga akaba ahetse ipombo, arimo arica udukoko dushobora ku kwibasira ibimera bye bigatuma bitamuha umusaruro mwinshi.

Umujyanama w'ubuzima wambaye imyenda y'akazi, akaba ahetse ipombo, ari gutera umuti wica imibu kugira ngo bahashye Malariya ikunze kwibasira benshi.

Umugabo uri kuhira ndetse atera n'umuti inyanya ze ubona ko zikiri ntoya, impamvu ari kuzitera umuti ni ukugira ngo zikure zidafite udukoko twatuma zidakura neza.

Umugabo wabigize umwuga mu guhinga, akaba ari mu bihingwa bye, arimo arabyuhira ndetse abitera n'imiti kugira ngo abirinde udukoko dushobora kubyangiza bitarera.

Umugabo uri mu cyuzi akaba ari mu gikorwa cy'uburobyi urabona ko afite ifi mu ntoki, ibi bikaba bimutunze kandi bitunze na benshi mu Rwanda.

Ni mu gishanga ahakorerwa uburobyi ndetse hagakorerwa n'ubuhinzi kuko imirima iri hafi aha yuhirwa n'amazi, aba avuye muri iki gishanga bityo umusaruro ukiyongera.

Abagabo batandukanye bamwe bambaye ubusa hejuru bakaba bari gukora umurimo w'uburobyi kugira ngo bibaheshe amafaranga kandi bakuremo n'amafi yo kujya kwirira.

Abantu batandukanye bari impande y'icyuzi, bakaba bishimira iki cyuzi kuko kibafasha mu gikorwa cyo kuhira imyaka yabo bityo umusaruro wabo ukiyongera cyane.

Abahinzi bari gukorera igihingwa cy'umuceri kugira ngo ubashe gukura neza kandi bazabone umusaruro uhagije nk'uko babiteganya.

Kawa ni igihingwa cyiza kandi kizamura ubukungu haba ku muryango n'Igihugu muri rusange, kawa kandi y'u Rwanda yagiye yamamara ku Isi hose aho ugeze usanga bayizi.

Ikawa zihinze neza cyane ku murongo kubireba rwose urabona ko ari ibintu bifite isuku nkuko bigaragara, akaba ari igihingwa cyinjiza amafaranga menshi ku bantu.

Ikawa itoshye urabona ko itari yera neza kugira ngo itange umusaruro gusa uwahinze afite icyizere ko niyera azabasha gukirigita ku ifaranga.

Umugabo ndetse n'umugore barimo barasoroma icyayi kugira ngo kige gutunganyirizwa mu ruganda bityo kizatange amafaranga ku bahinzi.

Igihingwa cya kawa gikomeje kwagura ndetse no guteza imbere abantu bagihinga, uyu umugabo nawe urabona ko yishimiye iki gihingwa kandi yazihinze neza azitaho.

Igihingwa cy'icyayi hakaba harimo umugabo uri kugikorera urabona ko abyishimiye cyane rwose, hirya y'uyu murima hari ibiti birebire, hakurya hakaba umusozi muremure.

Ikawa yatoshye ikaba ifiteho imbuto zahishije zikeneye kunogwa kugira ngo zijyanwe ku isoko zibashe kubyazwamo ibindi bicuruzwa nk'icyayi cy'u Rwanda.

Ibihingwa byinshi byinjiriza abantu amafaranga atubutse twavugamo nk'ikawa, icyayi, ipamba, ibisheke n'ibindi, byose bifasha abantu kubona amafaranga.

Umugabo wambaye imyambaro iri mu mabara y'umukara, akaba ari mu murima w'icyayi aho ari kugenda asoroma bigaragara ko ashaka gufatiraho ifoto y'urwibutso kugira ngo azajye ayireba.

Kawa ihishuye itegerejwe kunogwa, urabona ko itoshye yarakorewe nyuma yo gukorerwa ibasha gutanga uyu musaruro, ubona ko rwose izatanga n'amafaranga menshi.

Uducupa dukozwe muri pulasitike ndetse n'udukozwe mu cyuma, utu ducupa tukaba ducundikiye neza tukaba turimo kandi imiti ivura amatungo indwara zitandukanye.

Uducupa ndetse n'ibikarito biri mu ibara ry'umweru bikaba bipfundikiye neza cyane kandi bifite isuku imbere hakaba harimo imiti ivura indwara zibasira amatungo.

Utudobo dutoya turiho ibishushanyo by'inka y'inzungu tukaba turi mu ibara ry'umweru. Utu tudobo turimo imiti, iyo miti ikaba ivura amatungo atandukanye.

Uducupa turi mu mabara atandukanye hari udukozwe mu byuma ndetse no muri pulasike, tukaba turimo imiti yifashishwa mu kuvura no gukingira inyamaswa tuba tworoye mu rugo cyangwa se amatungo.

Utubido turi mu bikarito tukaba turi mu ibara ry'umweru ndetse n'imifuniko idupfundikiye ikaba ari icyatsi kibisi, tukaba turimo imiti ivura amatungo kugira ngo biyarinde kuba yakangizwa n'indwara nyinshi zitandukanye.

Utudobo dutandukanye turiho ibishushanyo by'inka, tukaba turi mui ibara ry'umweru kandi imbere hakaba harimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo.

Umwana w'umusore, arimo arahira urubingo kugira ngo ashyire inka zibashe kurya na zo zizatange umukamo uhagije cyane.

Abagore ndetse n'abagabo bambaye udupfukamunwa, bahagaze imbere yigiti cy'ipapayi umugabo umwe wafashe ipapayi mu ntoki, bari kwerekana uko ryakuze neza.

Umuhinzi wabigize umwuga akaba yicaye asutamye, arimo arakorera umurima we w'ibishyimbo kugira ngo umusaruro we urusheho kwiyongera azabone agatubutse.

Umugore ufashe urupapuro, rutangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi, bakimuhaye bamushimira ko ari umuhinzi wabigize umwuga kandi ahinga neza akeza, agatanga umusaruro mwinshi.

Igihingwa cy'umuceri ni kimwe mu bihingwa bikomeje kuzamura ubukungu bw'ababikora kuko iyo uhinze umuceri ukaweza neza, ubona amafaranga yo kugutunga ndetse n'umuryango wawe ukabonaho.

Pipinyeri irimo ibiti bya gerevariya bari kubireba kugira ngo babe bajya kubitera ahandi hantu bityo bakomeze kubungabunga amashyamba n'ibidukikije.

Umugabo wambaye umupira uri mu ibara ry'umutuku, akaba yikoreye umuba w'inkwi azijyanye mu rugo kugira ngo azike igihe zimaze kuma azazikoreshe mu guteka.

Guhinga nibyiza ariko bikaba byiza iyo witaye ku bihingwa byawe kuko biguha umusaruro mwinshi urenze uwo wari witeze, aba nabo bari kwita ku bihingwa byabo.

Akarima k'igikoni karimo imboga, karimo ibitunguru ndetse n'izindi mboga zitandukanye, ibi bintu akaba ari byiza cyane kuko umuntu iyo akeneye imboga azibona hafi.

Igiti cyiza cyane gitoshye, kikaba ari igiti cyeraraho amaronji, amaronji akaba ari amwe mu mbuto zifasha abantu kubona intungamubiri zitandukanye.

Igihingwa k'imyumbati ni igihingwa gitunze Abanyarwanda benshi ndetse n'abanyamahanga kuko ari igihingwa kera cyane kandi kigatanga umusaruro uhagije ndetse kigatanga n'amafaranga.

Umuhinzi wabigize umwuga akaba arimo araca amakoma y'insina kugira ngo bitabangamira urutoki rwe, si ibyo gusa kuko yahinze n'imyumbati kugira ngo ajye abona ibyo kurya bihagije.

Igihingwa cy'ibigori ni igihingwa cyiza gitunze abantu benshi kuko gikorwamo igikoma, bakirya nk'imvungure kivamo kawunga abantu barya ndetse n'ibindi biryo by'amatungo.

Imboga za dodo ni kimwe mu bintu bitanga intungamubiri zitunze abantu benshi muri iyi si kuko abaganga na bo ubwabo batugira inama zo kurya imboga.

Igihingwa kigeze igihe cyo gusarurwa, akaba ari umuceri weze neza, urabona ko wahumbitseho imbuto nyinshi. Uwawuhinze yiteguye kuwusarura.

Ibihingwa bitandukanye: igihingwa cy'urutoki, imyumbati, ibigori, ibijumba, inyanya, byose bikaba bifasha abantu mu kurya indyo yuzuye.

Abantu batandukanye bari mu muhanda w'igitaka, bakaba bamwe bagenda abandi bagaruka, aha akaba ari mu cyaro ariyo mpamvu ibikorwaremezo by'imihanda igezweho bitarabageraho.

Umuhanda w'igitaka utarakorwa neza, iruhande rwawo hari ibyatsi ndetse n'insinga z'amashanyarazi ziri ku mapoto kugira ngo zitware umuriro ku baturage.

Ingo nyinshi mu gihugu cy'u Rwanda usanga zifite uturima tw'igikoni, bateramo imboga, ibitunguru, karoti, pavuro n'ibindi kugira ngo bajye barya indyo yuzuye.

Umurima ubona ko wakuwemo imyaka hakaba harimo ibisheke bitarera neza ndetse n'insina gusa mu bigaragara ni uko bari barahinzemo ibigori bikaba byareze.

Udukarito dutandukanye ndetse n'uducupa tukaba turimo imiti ikorwa mu bimera harimo n'inyanya, harimo na korogate, harimo n'amavuta yo kwisiga, ibi byose bikaba bikomoka ku bimera.

Umuhinzi ufashe imbuto y'ibirayi, akaba ari kuyerekana mu ntoki, urabona ko wari umuhinzi wabigize umwuga kuko n'iyi mbuto y'ibirayi yejeje, irashishe kandi imeze neza.

Imboga ni kimwe mu bifatiye runini ubuzima bw'abantu kuko bigira intungamubiri, aha nganga rero turahabona amashuri ndetse n'izindi mboga zifasha abantu, mu kubona amafaranga ndetse no kubona amafunguro.

Umugezi w'Akagera uba ugizwe n'amazi menshi cyane aho uyu mugezi w'Akagera utandukanya Igihugu cy'u Rwanda ndetse na Tanzaniya, ku nkombe zawo hateye amoko menshi agiye atandukanye y'ibihingwa ndetse n'ibiti.

Ishyamba kimeza risa neza cyane, urabona ko ritobagiye ryabonye imvura kandi abantu ntibaryangiza none rimeze neza cyane.

Ishyamba ryatewe ahantu ku gasozi, rikaba rigizwe n'ibiti byinshi bitandukanye ubona ko harimo ibirebire ndetse n'ibindi bigikura, kuribungabunga rero ni byiza cyane.

Ni mu gishanga hakaba harimo ibimera bitandukanye ndetse hakurya hari urutoki rw'insina hakaba n'umusozi muremure uri hafi y'icyo kibaya.

Ishyamba kimeza obona riri hejuru y'umusozi munsi y'iri shyamba hakaba hari ikibaya, hakurya naho hari imisozi miremire ndetse n'ibihu bitewe n'ubukonje.

Amashyamba amwe n'amwe iyo ugezemo usanga harimo ibiti bikuze, ni byiza rero ko tuyabungabunga kuko adufatiye runini, atuma tubona imvura, atuma tubona n'umwuka duhumeka tukabaho neza.

Urutoki rutoshye neza ruri ahantu hasa n'ikibaya hirya yaho hari ishyamba ririmo ibiti by'inganzamarumbo birebire, hakurya hakaba hari umusozi nawo muremure.

Ishyamba kimeza rikuru cyane urabona ko ibiti birimo byakuze, bikaba ari byiza cyane kuko biduha umwuka mwiza wo guhumeka, bityo ubuzima bwacu bukagenda neza.

Ishyamba ririmo ibiti, harimo ibiti birebire ndetse n'ibigufi bifite amababi atoshye cyane. Urabona ko byabonye imvura ihagije rwose, nabyo bikaba bimeze neza cyane.

Ishyamba nk'iri ngiri usanga ari ishyamba ryahozeho kuva kera kubera ko abantu baba batararyononnye rirakura cyane, rigatanga umwuka duhumeka tukagira ubuzima bwiza.

Gutera ishyamba ni kimwe mu bintu Leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage kuko bituma biduha umwuka mwiza ndetse tukarinda n'ibidukikije kuko bitatugiraho ingaruka.

Umuhanda igikorwa remeze Leta yegereje abaturage, uyu muhanda ukaba unyura hagati mu ishyamba rya nyungwe, ukaba ukomeza kugira ngo wongere ubuhahirane hagati y'uturere.

Abahinzi ba koperative, urabona ko bishimiye guhinga, igihingwa bita igihwagari, urabona ko bigeze igihe cyo gukorerwa, akaba ariyo mpamvu barimo bari kubikorera.

Abantu benshi bazi ko ubuhinzi bw'indabo budatanga amafaranga, gusa siko kuri kuko umuhinzi w'imbuto na we, abona amafaranga menshi kandi ahagije, bikaba byanamutunga.

Umugabo uri gusoroma imbuto yejeje azishyira mu gikoresho cyabugenewe, akaba yarazitayeho none nawe zikaba ziri kumuha umusaruro ndetse wo gutunga n'umuryango we.

Ipapayi ni kimwe mu mbuto zitunga ubuzima bw'abantu kuko rigira intungamubiri zihariye kandi nziza ku buzima bw'umuntu, ni byiza ko twaritera kugira natwe tubone izo ntungamubiri.

Ubuhinzi bw'inyanya bukomeje guteza imbere abantu benshi kuko bezamo imbuto nyinshi igatuma bafata ku mafaranga menshi ndetse bagatunga n'imiryango yabo.

Ubuhinzi bwa kijyambere bikomeje guteza imbere abatari bake kuko byongera umusaruro kandi bigafasha abantu kubona amafaranga menshi cyane.

Ni muri pipiniyeri ahatunganyirizwa amoko y'ibiti bitandukanye bityo bikajya guterwa ahandi, nyuma bikazavamo ibiti byinshi bivaho n'imbuto zo kurya.

Umugore witeze igitambaro ari mu murima we yahinzemo indabo, urabona ko indabo ze zigeze igihe cyo kwera arimo arazica kugira ngo ajye kuzigurisha abone amafaranga.

Igiti cyezeho imbuto izimbuto zikaba ziribwa kandi zigafasha abantu benshi mu kubona intungamubiri zitunga imibiri yabo bakamera neza.

Kayote ndetse n'ibitunguru ni bimwe mu mbuto zifasha abantu bikaba n'imboga kandi, kuko biraribwa bikongera intungamubiri ku buzima bw'ikiremwa muntu.

Ahantu heza hari ubusitani bwiza hari ibiti by'inganzamarumbo, urabona ko rwose hagaragara neza cyane, hari ikirere gikeye kiri mu ibara ndetse n'ibicu by'umweru.

Uturabo twiza cyane dusa neza turi mu ibara ry'umweru tukaba turi ku giti nacyo gitoshye neza cyane, iki giti kikaba cyitwa umuvumu gikunze kuboneka mu mashyamba.

Abahinzi babigize umwuga bibumbira hamwe bakora koperative, bakaba barikuhira ibihingwa byabo kugira ngo bazabone umusaruro ushimishije cyane.

Icyayi gihinze ahantu, kikaba giteye ku murongo, imbere harimo impombo zishinzwe kuhirira iki cyayi mu gihe cy'izuba, bityo kigatoha neza ntikigerweho n'izuba.

Guhinga nibyiza ariko biba byiza iyo witaye kubyo uhinga kugira ngo bizaguhe umusaruro mwinshi. gusobanukirwa guhinga rero ni byiza kuko bituma uhinga imbuto nziza kandi ukeza neza.

Umusore uri mu murima w'inyanya, akaba arimo aruhira inyanya ze kugira ngo zirusheho gutohagira ndetse zizamuhe n'umusaruro mwinshi cyane.

Abahinzi benshi bashishikariye kuhira kuko iyo bakoresheje ubu buryo, bashobora guhinga igihe cyose babikenereye kandi umusaruro wabo ukera nk'uko bisanzwe.

Igice kifashishwa mu kuhira imyaka y'abaturage bikarushaho gutanga umusaruro mwiza kandi mwinshi ugatanga n'amafaranga.

Ikiraro kiri kunyuraho amazi hirya yacyo, aya mazi akaba yifashishwa mu kuhira ibimera biri hafi aho bityo abahinzi bakabona umusaruro mwinshi.

Abenshi mu bahinzi babigize umwuga, ntushobora guhinga adakoresheje imiti yica udukoko kugira ngo ibihingwa bye bibashe gukura kandi bitange umusaruro mwiza.

Ahakorerwa ubuhinzi cyane cyane mu karere ka Nyagatare, ukunze kuhasanga ibi byuma bishinzwe kuhira ibimera ndetse n'imyaka y'abaturage kugira ngo irusheho kongera umusaruro.

Ikiyaga cyiza cyane kirimo amazi asa neza hagati hakaba harimo ikirwa gitoya iki kiyaga kandi gikorerwamo uburobyi ndetse kikanafashwa mu kuhira imyaka.

Icyuzi kimeze neza gifasha abahinzi mu kuhira imyaka yabo kikaba kiriho imisozi miremire na yo iteyeho amashyamba agikura atarakura neza.

Mu gihugu cy'u Rwanda ahenshi na henshi ugenda usanga imisozi miremire ndetse y'iciye bugufi ndetse n'ibibaya, gusa iyo misozi iba iriho ibiti birebire bitanga akayaga ndetse n'amahumbezi.

Ni munsi y'umusozi hari abantu bahatuye gusa leta ibuza abantu gutura mu buhaname bw'umusozi kuko isuri ishobora kubatembana ubuzima bwabo bukajya mu kaga.

Mu kibaya ahakorerwa ubuhinzi hakaba hatuye n'abantu batandukanye, hakurya hari amashyamba ndetse hari n'umusozi muremure cyane ugera hejuru.

Ubworozi bw'amatungo bushobora kuguha amafaranga kandi ukagukiza mu gihe gitoya cyane cyane iyo woroye ingurube kuko iyo bwaguye ibibwana icumi, ushobora gukuramo amafaranga menshi ukayakoresha ibindi.

Ubworozi bw'inkoko iyo ubukoze neza bwaguhesha amafaranga kandi menshi cyane bityo rero ukaba wabona n'inyama zo kurya ndetse n'umuryango wawe.

Ahantu henshi mu makaragiro ugenda usangamo ibikoresho bibikwamo amata, bityo bikayarinda kuba yakwangirika kandi akamara igihe kirekire kuko aba abitse neza.

Ifamu ikaba irimo inka nyinshi, urabona ko haje abaveterineri, baje gukingira izi nka kugira ngo zitazafatwa n'uburwayi butandukanye bushobora gutuma umusaruro wazo uba muke.

Ubworozi ni kimwe mu bintu bikomeje kongera amafaranga ku borozi, ubworozi bw'ingurube rero na bwo ntabwo bwatanzwe mu kongera umutungo ndetse n'umusaruro kuko bitanga amafaranga menshi.

Inyubako igezweho, akaba ari inyubako yororerwamo inkoko. Aha ngaha rero akaba ari ho aborozi b'inkoko bakorera bakabona umusaruro ushimishije kuko baba babikoze kinyamwuga.

Inka nziza cyane ya kizungu, ikaba ifite ibara ry'igihogo ndetse n'umweru ikaba ifite n'iherena ku gutwi, rwose iyi nka yitaweho niyo mpamvu izatanga n'umukamo mwinshi.

Ubworozi bw'amatungo ni kimwe mu bikomeje kuzamura iterambere ry'ababikora kuko usanga ubikora abona amafaranga, akabona inyama zo kurya bityo akabaho atekanye.

Korora amatungo ni kimwe mu bintu bikomeje guteza imbere benshi kuko bibaha amafaranga ashimishije, rero korora amatungo ubishyizeho umutima nawe byaguteza imbere.

Ni ikiraro cyororerwamo amatungo hakaba harimo inyana ikiri ntoya, urabona ko iri ahantu hari isaso kugira ngo biyirinde kuba yaryama habi biyagireho ingaruka.

Ingurube ni inyamaswa iba iciye bugufi gusa abenshi mu bazorora bakubwira ko zitanga amafaranga, ikindi kandi zirororoka cyane ku buryo uzoroye adapfa kugwa mu bihombo.

Ububiko bw'imbuto, izo mbuto zikaba ziri mu mifuka ubona ko zibitse neza, abantu barimo barimo baritegereza umusaruro wabo bakumva barishimye cyane.

Ikiganza kiri kwinaza imbuto y'umuceri urabona ko imeze neza yarashishe kandi yabitswe neza iratunganya, ibi ngibi rero bifasha abahinzi kubona umusaruro uhagije.

Aho bakorera ububiko bw'imbuto, urabona ko hari mu ruganda ruzitunganya neza, zikagera ku muhinzi zimeze neza kandi ari indobanure nziza.

Ingero z'ibiribwa bitandukanye harimo ibishyimbo, harimo amashaza, harimo soya, harimo ubunyobwa, ibi byose bikaba biri mu ruho byifashishwa mu gukora indyo yuzuye.

Imbuto y'ibishyimbo iri mu mabara atandukanye; umweru, umukara, igihogo, iyi mbuto ikaba irigutunganywa kugira ngo izahingwe itange undi musaruro.

Ibigori byeze neza cyane byahinzwe na koperative bikaba byanitse ahantu kugira ngo byume bityo bige ku isoko bimeze neza cyane.

Ibiganza bibiri bifashe amoko y'imbuto atandukanye harimo n'umuceri bakaba bari kutwereka imbuto nziza umuhinzi akwiye guhinga kugira ngo azabone umusaruro uhagije.

Ubwanikiro ni hamwe mu hantu hafasha abahinzi b'amakoperative kubona aho banika ibihingwa byabo, bityo bikagera ku isoko bimeze neza kandi byujuje ubuziranenge.

Amoko y'ibihingwa atandukanye; amashaza, soya, ibishyimbo, ibigori, ibi byose bikaba byifashishwa mu gukora indyo yuzuye, bityo umuntu akagira ubuzima bwiza.

Amoko y'ibiribwa bitandukanye, harimo ibishyimbo, harimo amashaza, harimo soya, ibi byose bikaba bivamo ifu y'igikoma, ikindi kandi turabiteka tukabirya.

Veterineri ni we muganga w'amatungo, aha ngaha akaba ari gusuzuma icyo iyi nka irwaye kugira ngo arebe yuko yayivura cyangwa se barebe niba nta kindi kibazo ifite.

Umuveterineri wabigenewe akaba ari gukora mu nda y'amaganga kugira ngo abashe kubyaza inka bityo babone umukamo ndetse baboneye n'amata menshi yo kunywa no kugurisha.

Abantu biga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo baba ari inzobere cyane kubera ko bafata ibiribwa bigiye bitandukanye bakabitunganyamo ibyo kurya by'amatungo hanyuma na yo akabirya.

Umuganga w'amatungo bakunze kwita veterineri yambaye itaburiya yo mu ibara ry'umweru, akaba yambaye n'uturindantoki two mu ibara ry'ubururu, ari gutera urushinge inka iri aha kugira ngo itazafatwa n'uburwayi.

Gukingira amatungo ni igikorwa kiza kuko birinda amatungo kuba yakwatakwa n'indwara zitandukanye. Aba nabo rero urabona ko ari cyo gikorwa cyabahurije hamwe.

Amabagiro atandukanye mbere yuko abaga inyamaswa cyangwa se amatungo ni ngombwa ko batumiza veterineri kugira ngo asuzume ko iryo tungo nta ndwara rirwaye yakwanduza abari burirye.

Umuganga w'amatungo bakunze kwitaba veterineri, akaba ari gukingira inka kugira ngo itazatakwa n'uburwayi butandukanye bushobora gutuma ipfa.

Gukingira amatungo ni bimwe mu bikorwa byiza cyane kuko iyo amatungo abashije gukingirwa, bituma agira ubuzima bwiza kandi bikayarinda uburwayi butandukanye.

Abavuzi b'amatungo bakunze kwita abaveterineri bafatiye runini amatungo menshi ndetse n'abayoroye kuko iyo itungo rigaragaje uburwayi bajya kurivura bityo rigakira.

Abaganga bambaye uturindantoki bambaye udupfukamunwa bambaye n'impuzankano zi mu ibara ry'icyatsi kibisi, bari kwita ku murwayi kugira ngo bamuhe ubufasha akire.

Abaganga bashinzwe kubaga amatungo abo bita abaveterineri usanga babaga amatungo maze bakongera bakayasana bityo bakayavura indwara zitandukanye.

Muri Parike ni hamwe mu hantu iyo ugiye usangamo inyamaswa zitandukanye, ni byiza rero ko niba ukeneye kumenya inyamaswa nyinshi wasura Parike y'Akagera ukungukiramo byinshi.

Urushamagwe ni inyamaswa y'inkazi, abenshi bavuga ko ariyo nyamaswa ya kabiri mu gukara, nyuma y'intare. Mu Kagera rero na ho ugezeyo wasangayo iyi nyayamaswa, ukayireba, ukihera ijisho.

Imbata ni imwe mu nyamaswa ziguruka, ikaba itanga amafaranga kubayorora ndetse abazirya na bo bakubwira ko inyama zayo ziryoha cyane, niyo mpamvu bazorora.

Ingwe ni imwe mu nyamaswa z'inkazi, ushobora gusanga mu maparike, ingwe rero ikaba ifite amabara y'umukara ndetse n'ikigina, uyibonye wayihunga kuko ni inyamaswa y'inkazi.

Inzovu ni imwe mu nyamaswa nini cyane ushobora gusanga mu maparike, ikaba ifite amatwi manini ikagira n'umutonzi ikoresha irisha ndetse inywa n'amazi.

Imwe mu nyamaswa z'inkazi ifite amabara umukara ndetse n'iryenda gusa umuhondo, iyi nyayamaswa ikaba ari inyamaswa imwe mu nkazi kuko itajya igira imikino.

Impala ni inyamaswa iba iteye amabegeza kuyireba, iba ifite amabara yayo yihariye kandi isa ukwaya mu mabara yayo haba harimo umukara ndetse n'umweru wererute.

Impara ndetse n'imparage biri kugaragara aha ngaha akaba ari inyamaswa ishobora gusanga mu Kagera muri parike nkuru y'Igihugu cy'u Rwanda mu Karere ka Kayonza.

Akagera ni hamwe mu hantu ushobora gusanga inyamaswa nk'izingizi, ushobora gusangamo n'izindi nk'intare, ibisamagwe, ingwe, ibipusi n'ibindi byinshi bitandukanye.

Imbwa y'ishyamba abenshi bakunze kwita imbwebwe cyangwa se umusega, ukaba wayisanga muri pariki iherereye mu ntara y'Iburasirazuba, ushaka kwihera ijisho wagana yo ukayireba n'izindi nyamaswa.

Inyamaswa nyinshi zikunze kuba zifite amahembe ushobora kuzibona ukazitiranya, iyi nyamaswa iri aha na yo ikaba ifite uturongo mu ruhu rwayo ndetse n'ibara rijya gusa ikigina.

Inzovu ni yo nyamaswa nini kandi ipima ibiro byinshi, no mu Rwanda uhageze mu karere ka Kayonza cyangwa se Gatsibo wayihasanga muri parike yitwa Akagera National Park.

Muri parike nyinshi zitandukanye iyo ugezemo wihera amaso ukabona inyamaswa zitandukanye akaba ari ibintu byiza cyane ukumva wahora ujyayo, n'izi nyamaswa rero ubona ko zishimishije rwose.

Zimwe mu nyamaswa zo mu gasozi wasanga mu mashyamba, inyamaswa nyinshi zirya ibyatsi, izindi zikarya inyama biterwa n'ubwoko bwazo ndetse n'amenyo yazo.